Leta y'u Rwanda iteye mu buryo bwo guteza imbere umuturage yubakaga amashuri abana bakaja kwigiramo bakiyungura ubumenyi bakazabaho neza bakabaha akazi bakabaha n'amafaranga bakiteza imbere

Iyo twagiye ku ishuri twiyunguraga ubumenyi. Dusangagayo intebe zo kwicaraho, kugira ngo tubone uko twandika tugakurikira na mwarimu, tugasangayo n'ikibaho. Badushushanyirizagaho imyenda, bakatwigisha uko yitwa mu cyongereza tukarushaho kubaho neza.

Biba byiza iyo wubatse tuwarete rusange ugashiraho urukarabiro. Iyo umuntu avuye muri tuwarete agomba gukaraba amazi meza n'isabune, kugira ngo adakuramo indwara akanduza bagenzi be, kandi nawe akiyanduza arimo akirinda indwara harimo nk'impiswi ziterwa n'umwanda, bityo iyo yakarabye ntabwo ahura n'iyo ndwara.

Amashuri atumaga twunguka ubumenyi tugashaka akazi bakaduha amafaranga tukarushaho gutunga imiryango yacu tuyaguriramo ibyo kurya tukayata tukabatangira abana ku ishuri bityo tukabona kwiteza imbere.

Iyo ishuri ry'inshuke rifite ibikoresho, urugero nk'ibyuma by'ibikinisho, rifasha abana kwagura mu bwenge, rikabafasha mu kumenya ibikoresho byo mu rugo, urugero nk'iyo harimo imisambi irimo ibikoresho bijyanye n'ubwubatsi, abana barubakaga bakiyungura ubumenyi, bakaja no gukinira ku cuma cyabigenewe bakarushaho kumenya ibintu bitandukanye.

Tujaga ku ishuri tugasangayo intebe zo kwicaraho tugasangayo n'ikibaho, iyo twicaye neza turushagaho kwiga neza, tukiga tukabifata tukiteza imbere iyo twabonye akazi, tukarushaho kugira ubuzima bwiza.

Leta y'u Rwanda itwitagaho cane, itwubakiraga ibikorwa remezo itwubakiraga amashuri itwubakiraga n'ibitaro, itwubakiraga n'ibiraro. Iyo twagiye kwiga tukarangiza, dushaka akazi tukabona amafaranga adufasha kwiteza imbere.

Ibigo by'amashuri by'iwacu y'incuke biguraga ibikinisho by'abana tukagura n' ibyuma by'abana bicungagaho bakarya umunyenga har'ibibazengurutsaga har'ibyo bicungagamo hari ibigenda birabazunguza iyo babifite abana babakoreshaga siporo bakabaho mu buzima bwiza kandi abana bakundaga ishuri kubera ko babaga bafite ibikinisho by'abana.

Kwiga ni byiza iyo tugiye kwiga twiyunguraga ubumenyi , iyo turangije kwiga dushakaga akazi , bakaduha amafaranga akadufasha kwiteza imbere tukajana abana bacu ku ishuri tukabaguriramo n'ibyo kurya , tukabaho mu buzima bwiza.

Uburyo bwo kwiyungura ubumenyi bujananye n'amashanyarazi tujaga kwiga kaminuza tukongera ubumenyi, tugashaka akazi kubera tubaga tuzi gukora amashanyarazi n'ibindi bikoresho by'ikoranabuhanga, bakaduha amafaranga tukayaguramo ibyo dukeneye.

Kuja ku ishuri bitwunguraga ubumenyi tukarushaho kumenya ubwenge tukiteza imbere, kuko iyo turangije tubonaga akazi bakaduha amafaranga tukayaguramo ibindi bikoresho tukarushaho kubaho mu buzima bwiza ,kuko tuba twarize tukamenya ubwenge tukibeshaho.

Biba byiza iyo umenye ikoranabuhanga, urugero nka compiyuta, iyo uzi uko gukoresha kompiyuta ntabwo wabura akazi, ubona akazi kaguhemba amafaranga ukayaguramo ibikoresho byinshi ukeneye, yaba wishyura n'amashuri ugakomeza kwiga, ukibeshaho, ukibeshaho ugateza n'imbere umuryango wawe.

Ibyuma bijyanye n'ikoranabuhanga biba byiza iyo bikoreshwa n'umuntu wabyize, akabibonera impamyabushobozi ibimwemerera, bityo abikora neza ntibiteze ikibazo runaka, bikaba byateza impanuka.

Kuja ku ishuri bifunguraga ubumenyi ukarushaho kubaho neza nk'ubu iyo wize iki veterineri ukabona akazi ukabonagamo amafaranga agufasha kwibeshaho neza ukabeshaho n'umuryango wawe neza kuko baba baguhaga amafaranga ukagenda uyakoresha mu rugo.

Inaha iyo uzi guteka, baguhaga akazi urugero nko muri hoteli, cyangwa mu kabare. Iyo ugiye gukoramo ugateka baguhemba amafaranga, ukayaguriramo abana ibikoresho, ukiteza imbere utanga mituweli.

leta y'u rwanda idutezaga imbere mu buryo bujyanye n'uburezi iyo batwubakiye amashuri tujaga kwigamo bakatwungura ubumenyi tukavamo abantu bitunze kuko iyo havuyemo umuntu ushoboye gukora ikintu runaka urugero ukavamo nk'umwarimu baguhembaga amafaranga ukiteza imbere ugatunga n'umuryango wawe.